Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa n'inzego z'umutekano, mu kurinda umutekano wo mu muhanda, cyangwa se no mu gucunga ko abashoferi b'ibinyabiziga bitandukanye, batakora amakosa yashyira ubuzima bw'abantu mu kaga.

Abapolisi bari kuri paredi bari gufata amabwiriza. Afande wabo akaba ari kubaha amabwiriza, cyangwa se ari kubaha ubutumwa runaka bw'ukuntu bashobora kuba bitwara mu kazi. Urugero: nka bamwe muri bo bashobora kuba bagira ibintu bakora cyangwa se bakora mu kazi kabo

Umupolisi w'u Rwanda, bigaragazwa n'uko yambaye iniforume, cyangwa se impuzankano, iriho idarapo ry'u Rwanda, ufite imbunda akaba yubamye hasi bigaragara yuko ari mu kazi, ko gucunga umutekano.

Abantu bakora akazi ko gucunga umutekano ku muhanda cyangwa n' ahandi hantu hose haba hashobora kuba ikintu cyateza umutekano muke, bakagihagarika bahagaze ahantu hamwe bashobora kuba bari gufata amabwiriza y' ukuntu bakora akazi.

Abagabo bafashwe n'inzego z'umutekano, bagiye kujya gufungwa cyane ko bambitse ibyo bita amapingu ,bakaba bashobora kuba bibye bino bikoresho biteretse imbere yabo.

Abantu bateraniye hamwe mu gikorwa cya leta, cyane ko hariho abashinzwe umutekano abazwi nk'abadaso, aho bahuriye n'abaturage bakaba bicaye basa naho bari kuganira ku bintu runaka.

Abaturage bahuriye hamwe mu gikorwa cy'imyidagaduro, cyangwa se gihuza ubuyobozi n'abaturage, cyane ko harimo inzego z'umutekano, abapolisi, ndetse n'abasirikare, bari kumwe n'abaturage basanzwe.

Abakozi bashinzwe gucunga umutekano bazwi nk'abasekirite, bahagaze ahantu hamwe bari gufata amabwiriza y'akazi kabo, cyangwa se bari guhabwa ibyerekeranye n'umurongo w'akazi kabo.

Umukanishi uri gukora ikinyabiziga cyitwa imodoka inzego z'umutekano cyane cyane polisi ndetse n'abasirikare, bahagaze hejuru ye bari gusuzuma ibiri gukorwa bigaragara ko wagira ngo hari ikintu cyabaye.

Ibikorwaremezo by'umuriro , ibiti by'amashanyarazi , amapoto , amatara biri ku muhanda ahasa n'ahantu hatuwe hari inzu. Abaturage bikaba bibafasha mu kurinda umutekano cyane cyane iyo hari urumuri ahantu h'umuhanda bikaba birinda urugomo ndetse binafasha mw'iterambere muri rusange.

Abaturage benshi bahuriye hamwe bicaye batuje, bari gutega amatwi umuntu bisa naho ari umuyobozi wabo, waba uri kubakoresha inama, bakaba basa n'abari kungurana ibitekerezo, by'ukuntu ku ngingo runaka bari kuganiraho.

Abaturage bateraniye ahantu hamwe ari benshi, bakaba bari kumva impanuro cyangwa se bari kugezwaho amabwiriza n'ubuyobozi ku ngingo runaka, ubuyobozi buba bwateguye.

Abaturage bahuriye hamwe ku bwinshi, bicaye hamwe bateze amatwi umuntu runaka uri kubagezaho ijambo w'umuyobozi, bakaba bamuteze amatwi kugira ngo babashe kumva ubutumwa ari kubaha.

Abantu cyangwa se abayobozi runaka, bari mu mahugurwa bateraniye hamwe bari kwiga, ku bibazo runaka cyangwa se bari kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka bakagira imyanzuro babafata.

Abantu bateraniye hamwe bari kajya inama. Bahuye ari abayobozi n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano, cyane ko hagaragaramo abapolisi ndetse n'abasirikari, ndetse n'umuyobozi uri kubaganiriza ku bintu runaka.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe hari inyubako zigaragara ko ari amashuri. Basa nabari kwifotoza nyuma yo gukora igikorwa runaka, cyangwa se mbere yo kugikora cyari cyabateranirije hamwe.

Abantu bicaye ari benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganira ku ngingo zigize zitandukanye, zerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, cyangwa se zijyanye n'imirimo bakora ya buri munsi ibatunze.

Umugabo uhagaze imbere y'inzu ndetse n'intebe iteretse ku ruhande rwe, wambaye ijiri yabegenti cyangwa se abatanga amayinite, cyangwa babitsa, cyangwa bakabikuza amafaranga.

Abakaraza bari kuvuza ingoma, ndetse n'ababyinnyi bari kubyina bakaraga umugara, ndetse bambaye n'amayugi, bafite n'amacumu. Ibintu biryohera ijisho, bikaba ari ibintu bikorwa mu muco wa kinyarwanda, babyina imbyino gakondo.

Igikoresho gakondo kifashishwaga mu guteka no gutunganya amafunguro, kizwi nk'umudaho. Kikaba cyarakoreshwaga mu gihe cyo guteka, cyangwa se ibiryo bihiye bageze igihe cyo kubyarura. Cyangwa se kubitahura.

Igikoresho gakondo cyifashishwaga bari gusekura isombe bari kuyitunganya, kugira ngo ibone uko bayiteka imeze neza, aho bakoreshaga umusekuzo bahonda isombe iri muri kino gikoresho, kugira ngo ibashe kumera neza bayiteke.

Abantu bakora akazi ko kuvuza ingoma cyangwa se abitwa abakaraza, bakaba bari kuvuza ingoma bifashishije uduti baba barabajije twitwa imirishyo, ingoma zikaba zikoreshwa iyo hari imbyino runaka.

Igikoresho gikoreshwa bari gukina umukino witwa urusoro, akaba ari umukino abantu bakunda gukina mu gihe bari kuruhuka, barangije gukora imirimo yabo, cyane ko igisoro kiruhura mu mutwe neza ,abantu bakaba babasha gukira amavunane, binyuze mu gukina uno mukino.

Uburyo bwo gutunganya ifunguro ryitwa isombe cyangwa se imboga zitwa isombe, bakoresheje igikoresho gakondo cyitwa isekuru n'umusekuzo, kugira ngo isombe ibashe gutekwa neza ishye, ubundi itange intungamubiri zitegerejwe kuvamo, cyane ko ari isoko y'intungamubiri zigiye zitandukanye.

Igikoresho cyakoreshwaga mu gukora umuziki gakondo, kikaba cyitwa umuduri. Kiba kigizwe n'agati gahese, ndetse n'akandi gakoresho babasha kwifashisha kugira ngo gasohore amajwi.

Umugore uri kugosora ingano kandi uri kuzitunganya akoresheje uburyo bwa gakondo, ndetse n'igikoresho cya gakondo kizwi nk'inkoko cyangwa se intara. kugosora bikaba bikunda gukorwa n'abagore cyane cyane bari gugosora ibinyampeke, baba basaruye mu mirima nk'ibishyimbo, n'amashaza, n'ibigori.

Umugore uri gutunganya imyaka cyangwa se ibihingwa, akoresheje uburyo bwa gakondo bwitwa kugosora, akoresheje inkoko ndetse cyangwa se intara.

Abantu bavuza ingoma bazwi nk'abakaraza bari kuvuza ingoma bakaba biteye umugara ndetse bambaye n'amayogi bari mu gikorwa cyo kubyina cyangwa se cyo kuririmba.

Intore ziri kubyina ,cyangwa se ibyo bitaga guca umudiho ,zambaye amayugi ndetse n'umugara zifite n'amacumu zikaba zibyina ubona ko byizihiye amaso rwose ,bikaba ari imbyino gakondo za kinyarwanda.

Inka zitwa inyambo zamenyekanye cyane mu muco Nyarwanda cyane ko ari inka zikunzwe cyane ndetse n'umuntu w'umushumba wazo wambaye ingofero. Umuntu ukuze bigaragara yuko ari kuzitaho ndetse ari gukora n'indi mihango Nyarwanda ijyanye n'umuco gakondo wacu w'abanyarwanda.

Ababyinnyi bazwi nk'intore, bari kubyina imbyino gakondo, aho bambaye amayugi ndetse biteye n'umugara, bakaba bishimye cyane, bigaragara yuko bakunda izi mbyino zabo.

Abaturage bari kunywera mu bicuma ndetse no mu tubindi. Bari kunywa urwagwa ndetse n'izindi nzoga benga mu byaro, akaba arizo bari kunywa bigaragara ko bishimye cyane. Bisa n'aho bakoresheje ikirori runaka bakaba bishimanye bari gusabana.

Ubworozi bw'inzuki bukozwe mu buryo gakondo, aho hakoreshwa ibizwi nk'imitiba bagenda bakamanika mu biti, kugira ngo inzuki zizaze zinjiremo zibashe gukora ubuki.

Igikoresho cyakoreshwaga mu muziki gakondo cyitwa inanga, cyacurangwaga n'abantu bashaka gukora injyana runaka, ndetse kikifashishwa no mu mbyino zigiye zitandukanye.

Igikoresho bakoraga mu ibumba kizwi nk'ikibindi. Kikaba kirimo amarwa cyangwa se ikigage, ndetse n'imiheha zo kunywesha. Ibi bikaba bikunda gukorwa n'abantu mu gihe cy'ubusabane.

Intore ziri kubyina imbyino gakondo, ziteze imigara ndetse n'amayugi, bakaba bari kubyina imbyino gakondo zisanzwe zibyinywa mu muco cyane cyane w'Abanyarwanda, ndetse hakaba harimo n'abanyamahanga nabo bishimye cyane, bigaragara ko bakunze imbyino z'Abanyarwanda.

Amasaka binitse kugira ngo azabe amamera ubundi bayakoremo umusururu ndetse n'ibindi bintu bifuza, bakaba bari kuyanika kugira ngo yume azabashe kuvamo ifu nziza cyane bakoresha benga imisururu.

Abantu batwaye umugeni mu ngobyi, bamuhetse bamujyanye ku mugabo agiye gushakana na we, kikaba ari igikorwa cyabaga mu muco wa kera, aho umugeni yashakaga, bakamutwara mu ngobyi bamujyaniye umukwe.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga na n'ubu bigikoreshwa, mu kwenga amayoga cyangwa se amarwa birimo umuvure, ubutanda bakamuriraho ibyitwa ibikatsi, uducuma ndetse n'imiheha.

Abanyeshuri bari kumwe na mwarimu wabo, yabajyanye gutembera bakaba bagiye kwitegereza inka gakondo zitwa inyambo, bakaba bahuye n'umuntu witwa umushumba cyangwa se umutahira wazo, bakaba bari kwitegereza bari kuzikoraho ngo barebe uko zino nka ziba zimeze mu buzima busanzwe.

Igikoresho cyakoreshwaga kera mu muco Nyarwanda cyitwa urukiza, kikaba cyarakoreshwaga mu kudaha umutobe bamaze nko kuwukama bashaka kuwunywa.

Ibikoresho byakoreshwaga kera mu muco nyarwanda, bizwi nk'ibyansi. Babikoreshaga basukamo amata, bakabinyweramo amata, cyangwa bakayabikamo.

Igihingwa cy'amasaka. amasakaakaba abeteshwa akengwamo imisuru cyangwa se hakavamo ifu yo gukoresha mu bintu bigiye bitandukanye nk'ifu y'igikoma cyangwa se igakorwamo umutsima n'ibindi.

Umugore uri gusya cyangwa se uri kubeta amasaka kugira ngo havemo ifu, bakoresha bari kubetera inzoga cyangwa urwagwa ndetse n'iyo bakoresha bari guteka igikoma cyo kunywa, kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza cyane.

Umusaza cyangwa se umukambwe uri gucuranga igikoresho cy'umuziki gakondo kizwi nk'inanga, akaba afite umugara cyangwa se akaba yambaye ibikoresho bijyanye n'imbyino gakondo, bigaragara yuko ashobora kuba ari intore.

Igikoresho mu muco kinyarwanda gishyirwamo cyangwa se kibikwamo amata kizwi nk'icyansi, bakaba bagishyiramo amata ategerejwe kunyobwa, akenshi na kenshi y'inshyushyu cyangwa se ataraba ikivuguto.

Ibikoresho gakondo abaturage bakoreshaga bicaragaho bizwi nk'ibirago, bakaba babiboha bakoresheje ubwatsi bwitwa ubusuna ndetse n'imideli, kugira ngo babashe kubiboha bivemo byuzuye babashe kubikoresha.

Abagore bari gutunganya imboga bita isombe bakoresheje uburyo bwo gusekura aho bifashisha umusekuzo ndetse n'isekuru bagasekura isombe kugira ngo ibashe gutekwa neza iribwe.

Inka nyinshi cyane ziri kugenda mu muhanda bazishoreye, inka zizwi nk'inyambo zigira amahembe maremare cyane, zikaba zishotse cyangwa se bagiye kuziragira ahari ubwatsi.

Ibikoresho gakondo byitwa ibicuma, bakoresha bari kunywa inzoga cyangwa se amarwa ndetse n'ibigage, n'ubundi bwoko bw'ibisukika. Bikaba birambitse ahantu hasa n'ahaboshye.

Umugabo uri gukora siporo yo gusimbuka umugozi cyangwa se ibyo bita gusimbuka urukiramende, aho yasimbutse akaba ari hejuru cyane mu ikirere. Ndetse abantu bari kumureba bikaba byabashimishije cyane bigaragara ko ar'ibintu bakunze.

Ibikoresho gakondo byifashishwa mu buhinzi harimo: inkonzo, udusuka dutoya twitwa twa nyirabunyagu, ndetse hakabamo ibicuma, imikeka n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubworozi bw'inzuki bukoresha uburyo bwa gakondo, aho bafata imitiba iboshwe mu biti, bakayihagika mu biti kugira ngo inzuki zizaze zituremo, ari nako zikoreramo ubuki kugira ngo bazabone umusaruro w'ubuki.

Abantu bari kwitoza kurasa, bakoresheje igikoresho gakondo cyitwa umuheto ndetse n'umwambi, aho byakorwaga n'abakurambere ba kera, mu gihe babaga bashaka kwica inyamaswa.

Inka zikundwa cyane cyane cyane, mu muco gakondo, zizwi nk'inyambo, zikaba zizwiho kuba zigiraga amahembe maremare ndetse zikaba zinabyibushye cyane, zikaba ari inka abanyarwanda bo hambere bakundaga cyane.

Abantu bavuza ingoma abazwi nk'abakaraza ndetse n'ababyinnyi, bigaragara ko ari itorero ry'ababyinnyi cyangwa se ababyina imbyino gakondo, bakaba bari kuvuza ingoma ndetse banabyina banacurira.

Igikoresho cyakoreshwaga mu muco wa kera, kizwi nk'icyibo cyangwa se agaseke, iki kikaba cyarakoreshwaga mu kubika ibintu, bigiye bitandukanye nk'ibinyampeke, nk'urugero nk'amasaka, ibigori ndetse n'ibindi.

Igikoresho gikoreshwa bari gutunganya isombe cyitwa isekuru. Aho bafata icyitwa umusekuzo bagakubita mu isekuru bari gusekura isombe, kugira ngo bayitunganye bayiteke neza bayirye iryoshye.

Abantu bari mu birori cyangwa se ubukwe bizihiwe cyane, bakaba bari gucinya akadiho, bari kuvuza amashi n'impundu, abandi bari kubyina. Ibi bikaba bikorwa mu muco nyarwanda, iyo abantu bari kugaragaza ibyishimo bafite.

Igikoresho gikozwe mu giti bakoreshaga bari guteka cyangwa bari gutegura amafunguro, cyakoreshwaga n'abantu bo hambere, kikaba kitwa umudaho kifashishwa mu gutahura ibiryo cyangwa se mu kubyarura bagiye kubirya.

Indabyo cyangwa se uruyange rw'igiti cyitwa igiko, kikaba ari igiti kigira amacumu kikaba kigira n'amababi akomeye cyane, kikaba kifashishwa mu gukora ibintu bigiye bitandukanye, nk'imivure ndetse n'ibindi bikoresho.

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo bazwi nk'intore, bari gucinya umudiho, bazunguza umugara, ndetse n'amacumu. Ibi bikaba byarakorwaga cyane cyane mu muco gakondo.

Intore ziri gucinya umudiho, ziri guca umugara cyangwa se guhamiriza, izi zikaba ari imbyino gakondo zakundaga kubyinwa n'abakurambere ,ndetse ibi bikaba bikorwa mu buryo bwo kwimakaza umuco nyarwanda.

Ubwoko bw'igiti cyitwa umuvumu gikunda kumera ahantu hari ubutaka bukomeye cyane, kikaba kivamo ibikoresho bitandukanye, kubera ko kivamo ingeri zikomeye cyane bakaba babazamo ibikoresho byitwa imivure, n'amasekuru bakoresha bari gutunganya ibiribwa.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga kera birimo ibyasi ibyibonemo, ndetse n'imbehe. Bikaba ari ibikoresho byakundaga gukoreshwa mu muco gakondo, ndetse n'abakurambere bakaba aribyo bifashishaga mu mirimo yabo ya buri munsi.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nk'imashini cyangwa se kompiyuta kiteretse ahantu ku meza gicaginzeho, gicaginze ku muririro, ikaba yakije igaragaramo ifoto y'ikirunga cg se umusozi muremure.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyitwa kompiyuta cyangwa se imashini ikoreshwa mu kwandika amadosiye agiye atandukanye. Ndetse n'ibindi bikoresho byazo byitwa kibodi cyangwa se amatushi.

Igikoresho gikoreshwa mu gukata insinga, ndetse no mu gukata utundi dukoresho tw'utwuma bitashoboka yuko dukatishwa intoki, igikoresho kikaba kizwi nk'ipensi.

Imodoka ziparitse ahantu zitegerereza abagenzi, ahazwi nko muri gare. Aho abagenzi baza baje kuzitega kugira ngo zibageze mu byerekezo bitandukanye bashaka kujyamo, nabo bakishyura amafaranga.

Urusengero rwiza cyane ruriho ishusho ya bikiramariya, irimbere y'abantu bakaba baza kuhasengera bari kwiyambaza Imana no mu bindi bikorwa by'idini bigiye bitandukanye.

Ibinyabiziga bizwi nk'imodoka, biparitse hanze y'inzu ahantu mu busitani mu kibara cyangwa se ikibuga kiririmo ubwatsi ndetse n'inzu, impande yazo mpande y'imodoka aho bigaragara yuko, bene izo modoka baziparitse hano hari gahunda baje gukora hano hantu.

Umuhanda w'ibitaka, uriramo n'bantu benshi cyane, hakaba hari abantu bahakorera bizinzinesi zigiye zitandukanye, nk'abakora akazi k'ubu ajenti babikura cyangwa se bakabitsa amafaranga y'abantu. Uyu umuhanda kandi bawucamo bagiye ahantu henshi hatandukanye. Hakaba hari n'amazu akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Urusengero rwubatse mu buryo bwiza cyane bugezweho bwa kijyambere, bikaba binatuma byorohereza abaza kuhasengera, kugira ngo basenge biboroheye ndetse batekanye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa byo gusenga no guhimbaza Imana izwi nk'urusengero, aha akaba ariho abantu benshi bahurira baje gusenga cyangwa se baje kwisanisha n'Imana kugira ngo ibabe hafi.

Inzu nini cyane isengerwagamo n'abantu baturuka mu mihanda yose baje kuramya cyangwa guhimbaza imana. Inzu bita urusengero ikaba ifite umuryango ufunguye abantu bakaba baza bakinjiramo igihe icyo aricyo cyose baje gusenga.

Inzu cyangwa icyumba batangiramo serivisi zigiye zitandukanye, bari kuziha abaturage baza babagana. Ibiro bikaba birimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byiganjemo amamashini akoreshwa bari gutanga serivisi.

Inzu zikorerwamo ibikorwa byo gutunganya umusaruro w'amata, uba wavuye mu borozi borora amatungo yiganjemo inka.

Urusengero rw'Abahamya ba Yehova, bakaba bagiye gusenga, bakaba barukoresha mu bikorwa byabo byo gusenga biyambaza Imana, ndetse banakora ibikorwa bigiye bitandukanye byerekeye guhimbaza no kubaha imana.

Inyubako cyangwa amazu azwi nk'amashuri, akaba ari amazu yifashishwa n'abanyeshuri bari kuyigiramo, bari gufata ubumenyi butandukanye, abarimu bakaba babigishiriza muri ayo mazu, kugira ngo birinde ibintu ibyo aribyo byose byatuma badakurikira amasomo yabo neza.

Inzu basengeramo, cyangwa se urusengero, aho abantu benshi cyane bahurira bagiye gusenga Imana, ndetse no kwiyambaza Imana, ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye by'amadini, bihuriza abantu benshi cyane ahantu hamwe.

Inzu yakorerwagamo ibikorwa byo kuramya no guhimbaza Imana, izwi nk'urusengero aho abantu benshi bahurira bagiye gusenga cyangwa se no gukora indi mihango yerekeranye n'iby'Iyobokamana.

Inzu nziza cyane yubatse ahantu hitaruye, ikorerwamo imirimo runaka, inyuma y'aho hari amashyamba ndetse n'indi nzu igaragara nk'aho ishaje, ishobora kuba ituwemo n'abantu batari abakire cyane.

Ishuri ryubatse mu buryo bugezweho bwa etaje ,abanyeshuri bakaba bigamo bikanabafasha kubona ubumenyi mu buryo bwihuse cyane ,ndetse bakazaba abantu basobanutse.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe ku rusengero bakaba bari mu bikorwa byo gusenga cyangwa se ibyo gushimira Imana, no kuba baramya cyangwa bagakora indi mihango ijyanye n'amadini.

Ahantu hazanwa abantu bagiye batandukanye bakoze ibyaha bitandukanye hazwi nka gereza, bakahafungirwa kugira ngo babashe guhabwa amasomo y'ubugororamuco.

Abakozi bakoraga mu mirimo z'ubwubatsi, bari kuganira ku byerekeranye n'akazi kabo cyangwa se n'ukuntu banoza umurimo wabo basanzwe bakora wa buri munsi, bambaye ibikoresho by'akazi birimo inkweto amajire ndetse na kasike.

Inzu ikorerwamo n'inzego za Leta. Uno muryango uriho ifoto y'umukozi utanga serivisi, utangira serivisi muri kino cyumba. Uno muryango winjiyemo abamuganye akaba ariho bamusanga.

Inzu ikorerwamo ibikorwa byo kubika amafaranga y'abaturage, izwi nka banki cyangwa se iberamo ibikorwa byo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga y'abaturage bikabafasha kwizigamira.

Abakozi bari mu mirimo yo kubaka umuhanda, bafite ingorofani n'ibitiyo ndetse umuhanda ukaba uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka, ukaba uri gusanwa kugira ngo urusheho kunogera abawukoresha.

Amazu yubatse neza, agize umudugudu w'icyitegererezo, atuwemo n'abantu benshi, hafi aho anaturiye ikigo cy'amashuri, abanyeshuri bigamo bo muri kano gace.

Inyubako nziza cyane izwi nka etaje, bigaragara yuko ishobora kuba ikorerwamo akazi kagiye gatandukanye, cyane cyane bikaba ari nk'ibiro bya Leta bikorerwamo n'abakozi ba Leta batanga serivisi zigiye zitandukanye, bari kuziha abaturage.

Inyubako cyangwa se ikigo gisuzumirwamo ubuziranenge bw'ibinyabiziga, cyane cyane imodoka. Gikikijwe n'ibiti birebire cyane, kikaba kiri ku muhanda wa kaburimbo.

Abantu bari mu nama cyangwa se mu mahugurwa, biganjemo abashinzwe umutekano inzego za polisi cyangwa n'igisirikare ndetse n'abandi bantu basanzwe bari kuganira ku ngingo runaka.

Abaturage bateraniye ahantu hamwe ari benshi, bashobora kuba bari mu nama cyangwa bari mu muhuro runaka, bafite ingingo bari kuganiraho ku buzima bwabo.

Umugore ushobora kuba ari umuyobozi, uri kubwira abantu bateraniye ahantu hamwe ijambo runaka bitewe n'icyo bari kuganiraho, ndetse abaturage bakaba bamuteze amatwi.

Abaturage bateraniye hamwe, bakaba bari kubaganiriza ku ngingo zitandukanye, umuyobozi wabo ari kugenda arabasobanurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, byaba ibijyananye n'imibanire ndetse n'ibijyanye n'ubuzima muri rusange.

Imodoka ipakiye imbuto zihingwa zitwa wotameroni, cyangwa se ibihaza bya kizungu. Bikaba bisa n'aho bagiye kubijyana ku isoko, kugira ngo uwabihinze abikuremo amafaranga yo kwiteza imbere.

Abantu bari mu isoko benshi cyane, abenshi bigaragara yuko bari guhaha iyi myenda igiye imanitse, abandi bari kugenda bambaye bote, amakoti, ingofero, ndetse uri gusunika ingorofani, bigaragara yuko ari mu kazi ke ka buri munsi kamutunze.

Ubwikorezi bw'imizigo igiye itandukanye, cyane nk'aya magare agiye yikoreye imifuka itandukanye ishobora kuba irimo nk'amakara, ari kugenda aca mu muhanda, hari abantu benshi ndetse n'amaduka hakikijwe n'inzu zikorerwamo amabizinesi agiye atandukanye.

Imodoka nini zizwi nka shirumuteto, zikoreshwa cyane cyane mu bice by'umugi, kugira ngo abantu bazigendemo bava ahantu hamwe bajya ahandi, mu buryo bwihuse cyane.

Imodoka nini cyane itwara ibicuruzwa, cyane cyane peteroli, ibijyana ku matasiyo agiye atandukanye kugira ngo bizabashe gushyirwa mu bindi binyabiziga.

Ibimodoka binini cyane bikora akazi ko gutwara ibintu. Biri ahantu hari imyaka, bije gupakira imyaka ngo biyijyane ku masoko agiye atandukanye, hirya no hino mu gihugu.

Abantu bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare, bazwi cyane cyane nk'abanyonzi, bakaba bari ku muhanda bategereje abagenzi, kugira ngo babatware babajyane iyo bagiye, nabo babahe amafaranga bakwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Igikorwa remezo kizwi nk'ikibuga cy'indege, akaba ari igikorwa remezo indege ziparikaho zivuye mu byerekezo bigiye bitandukanye, cyangwa se zihagurukiragaho na none zigiye mu byerekezo bigiye bitandukanye, zijanye abagenzi runaka bafite aho bagiye mu bikorwa byabo.

Abanyeshuri bagiye ku ishuri mu gihe cy'itangira ry'amasomo, bakaba bari muri gare cyangwa se muri sitade bari kurira imodoka zizwi nka bisi zitwara abagenzi, kugira ngo zibageze ku ishuri aho biga.

Umugore utwara moto zitwara imizigo zizwi nka rifani, uri kuganira n'abandi bantu hari n'undi umuhagaze iruhande rwe ndetse n'abantu inyuma ye bari kugenda bafite iyo bari kujya.

Abakozi bari mu mirimo yo gukora umuhanda, ndetse n'imashini zifashishwa murizo mirimo cyane cyane izitwa kateripirari, ndetse n'ikamyo zikoreshwa mu gutwara imizigo.

Abantu bari mu bwato butwara abagenzi bava ahantu hamwe bambuka baciye mu mazi bajya ahandi hantu, ubu bukaba ari bumwe mu buryo na bwo bwifashishwa, mu gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe inzira z'amazi.

Aho bategera ibinyabiziga bigiye bitandukanye, cyane cyane imodoka nini zitwara abagenzi zizwi nka za bisi . Ndetse n'abantu batonze imirongo bagenda berekeza muri zo bisi, kugira ngo zibageze ahantu hagiye hatandukanye bagiye.

Abantu bari gukora urugendo bifashishije kimwe mu bikoresho bitwara abantu kitwa moto, bari kuva ahantu hamwe bagiye ahandi, bari kunyura mu muhanda ukikijwe n'ibiti bigaragara ko ari umuhanda mwiza cyane, hirya hari kunyura amamodoka, n'umuhanda ugizwe n'impande ebyiri.

Imodoka ziri mu gikorwa cyo gukora umuhanda, ikaba ari ikamyo cyangwa se ikamyoneti iri kurunda itaka, mu gikorwa cyo gutunganya umuhanda, kugira ngo bazawutunganye neza ibinyabiziga bijye birawukoresha mu buryo bworoshye cyane.

Igikoresho cyifashishwa mu gutwara abagenzi n'ibintu binyujijwe mu kirere cyitwa indege, ikaba ari indege ya Rwandeya iri mu kirere igaragara ko iri mu rugendo itwaye abagenzi.

Umugore uri gutwara igare yapakiyeho ibiribwa bitandukanye ajyanye ku isoko. Igare kikaba ari igikoresho abantu bifashisha bari gutwara ibintu bitandukanye, cyangwa kikabafasha mu ngendo bari kuva ahantu hamwe, bari kujya ahandi.

Imifuka minini ya kirojana ipakiyemo ibirayi ndetse n'igare rirambitse iruhande rwayo, ritegereje kuyipakira ikayijyana aho ibirayi bikenewe ku masoko, n'ahandi henshi j.

Ahantu hategerwa ibinyabiziga n'abagenzi bari kujya mu byerekezo bitandukanye hazwi nko muri gare, huzuyemo abantu benshi bari gushaka imodoka bajyamo kugirango zibageze iyo bariku, bagiye.

Ahantu haparika ibinyabiziga bitandukanye ibyiganjemo amamodoka yababa bategereje abagenzi bo kuyatega kugirango babageze aho bashaka nabo bakishyura amafaranga.

Gare cyangwa se parikingi, aho ibinyabiziga cyane cyane imodoka zitwaye abagenzi, ziparika zije gufata abandi bagenzi, cyangwa se zije kuhageza abo zari zizanye.

Imodoka nini cyane zikoreshwa mugutwara abagenzi zibavana ahantu hamwe ziri kubajana ahandi, bakishyura amafaranga bitewe n'urugendo baba bakoze. Aya mabisi akaba akunze kwifashishwa n'abantu baragenda ingendo ndende.

Ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abantu ,bizwi nka moto bikaba biparitse iruhande rw'umuhanda rwa kaburimbo ,bikaba biparitse mu nzira y'abagenzi ahazwi nko ku mapave . Moto ikaba ari ibikoresho byihuta cyane.

Umuhanda wuzuyemo urujya n'uruza rw'abantu, abari kugenda kuri moto n'abari kugenda ku magare, n'abandi bantu bari kugenda n'amaguru. Haparitse n'ibinyabiziga byinshi cyane bitwara imizigo itandukanye.

Abantu batwara abagenzi kuri moto cyane cyane bazwi nk'abamotari, bari mu kazi ko gutwara abantu kugirango babahe amafaranga, ari nako kazi kabatunze mu buzima bwabo bwa buri munsi, bamwe bategereje abagenzi abandi bamaze kubabona, bakaba batangiye kubatwara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bakora akazi ko gutwara abantu, bakoresheje ibinyabiziga bitandukanye birimo amagare, moto ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Ibinyabiziga bikora akazi ko gutwara abantu cyane cyane imodoka nini zizwi nka bisi, ikaba iri mu muhanda iri gutwara abagenzi, ndetse na moto zirimo, ziriho abagenzi abamotari batwaye abantu bari kujya mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Ahantu haparika ibinyabiziga bigiye gutwara abagenzi, cyane cyane amamodoka manini atwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ari kubavana ahantu hamwe abajyanye ahandi. Abantu bakaba binjira hano hantu bagiye gushaka amamodoka yo kubatwara.

Indege ya Rwanda eya itangiye kuguruka mu kirere cyangwa se yenda kugwa, cyane ko bigaragara yuko iri hafi y'ubutaka. Ikaba ikoreshwa mu gutwara abagenzi bagiye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika, cyangwa se iby'Uburayi n'ahandi hose ku isi.

Umuntu utwaye igare, bigaragara ko ari mu kazi ko gusiganwa ku magare, cyangwa se akaba ari kwitoza kugira ngo azabashe kwegukana intsinzi muri iryo rushanwa, akaba ari umuzungu wambaye iniforume y'akazi.

Abakinnyi bari gusiganwa mu mukino wo gusiganwa ku magare. Bari kunyura mu muhanda wa kaburimbo. Abaturage bari kubagaragariza ko babishimiye cyane, bari kubapepera babagaragariza ko babafitiye ibyishimo byinshi cyane

Amazi ari mu kizenga bogeramo cyangwa ikizwi nka pisine. Abantu bakaba bogeramo bari gukora siporo, ndetse bari no kuruhuka, pisine ikaba yogerwamo n'abantu benshi batandukanye.

Ahantu bogera ahazwi nka pisine, hakaba ari ahantu hakunda kuba cyane ahantu hakunze, gusohokera abantu bagiye mu bikorwa byo kwishimisha, ahanini zikaba zikunda kuba ku mahoteri ndetse n'ibindi bikorwa remezo, bihuriraho abantu benshi.

Umuhanda uri gukoreshwa n'abasiganwa ku magare cyangwa se abakora kuruse cyangwa se turu di Rwanda, hakaba hari amatara k'umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'abantu bari hafi aho baje kureba isiganwa.

Umukinnyi uri mu kibuga ndetse n'agapira kakaba kamugeze imbere bigaragara ko yiteguye kugakubita kiriya gikoresho aba ari gukoresha kugira ngo agatere kongere gasubire aho ashaka kukerekeza.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kizwi nka sitade gikinirwaho umupira w'amaguru ndetse n'abafana bakaba baje baje kureba ukuntu abakinnyi baba bari gukina, bakaba bashaka kwishimisha.

Umusore wambaye inkweto, ikabutura, ndetse n'umupira, n'amasogisi y'umukara usa n'aho ufite igikoresho bakoresha bari gukina kiriketi, uri ku kibuga gikoteye neza kiriho sima, n'imirongo ndetse n'uruzitiro ruzitiye hafi y'ikibuga.

Umuntu usiganwa ku magare ari guca mu muhanda, abantu bahagaze iruhande rw'umuhanda bari kumureba ukuntu ari gutwara igare, ari kwihuta cyane ndetse bafite ibyishimo byinshi.

Abakinnyi b'abari n'abategarugori cyangwa se abakobwa, bari gukina umukino witwa voreboro ukinwa, bari gukoresha intoki, ukaba uri kubera ahantu ho muri sitade, aho abafana baza bakicara bakawureba bakishima cyane.

Umukobwa ukinira ikipe y'u Rwanda cyane ko yambaye umwambaro w'igihugu cy'u Rwanda uriho ibendera ry'u Rwanda uri gukina kiriketi, akaba ashobora kuba ari gukina mu mikino mpuzamahanga cyangwa se n'imbere mu igihugu.

Ikibuga gikinirwaho umupira w'amaguru cyangwa se sitade. Kikaba kirimo amabara y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ayo mabara akaba ari ubururu, iry'umuhondo, n'iry'icyatsi.

Abakinnyi bakina umukino wo gusiganwa ku magare bari gukata mu ikoni cyangwa se mu ikorosi, abafana baje kureba uyu mukino bakaba bari hejuru yabo bishimye cyane.

Abakinnyi b'igitsina gore cyangwa se abari n'abategarugori, bari gukina basketl mu kibuga aho bafata umupira baba bari gukinisha intoki bari kuwujugunya mu kantu kitwa paniye.

Ikibuga cy'umupira gikinirwaho umukino witwa kiriketi. Kirimo umukinnyi ufite n'igikoresho bakoresha, bari gukina mukino wa kiriketi cyitwa raketi.

Abakinnyi bari gukina basikete, akaba ari amakipe abiri, umukinnyi akaba agiye gutsinda igitego cyangwa se inota, aho aba ashose muri paniye cyangwa se akantu kamanitse kariho n'akandi kari kwerera.

Abantu bakora akazi ko gukina umupira witwa voreboro, bari gukina abafana bicaye iruhande rw'ikibuga, bari kureba umukino barishimye cyane, n'abandi bakinnyi bari inyuma bari kureba.

Ikipe y'abari n'abategarugori cyangwa se iy'abagore bakina basiketiboro, bari kwifotoza mbere yuko umukino utangira ngo bajye mu kibuga bakine. Kugira ngo baze kubona intsinzi.

Umwana w’umuhungu wambaye umupira w’umukara n’umweru, ikabutura y’umukara ndetse n’inkweto. Bigaragara yuko ari gukina kiriketi, cyane afite igikoresho cyayo, akaba ahagaze ku tuntu bita amapave.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru n'amakipe abiri yahuye, ikipe imwe yambaye ubururu n'utundi tubara tuvanzemo, ndetse indi kipe nayo ikaba yambaye umuhondo n'utundi tubara inyuma hari amazu asa neza cyane y'umweru n'icyatsi.

Abakinnyi bakina isiganwa ku magare, bari mu rugendo berekeza mu cyerekezo runaka, bakaba bari mu muhanda mu byaro, ahakikijwe n'intoki ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Abakinnyi bakina umukino wo gusiganwa ku magare biteguye guhaguruka mu irushanwa bakarushanwa, kugira ngo barebe uza gutsinda cyangwa se guhiga abandi, akaba ariwe wegukana igihembo cy'uyu munsi.

Abakinnyi bari gukina baske basiketobolo, umwe wambaye imyenda y'umweru ndetse n'undi wambaye imyenda y'ubururu n'umuhondo, ndetse n'abafana bishimye cyane, n'abari gufotora n'abari gukamera, bigaragara ko bishimiye uyu mukino uri guhuza aya makipe.

Abakinnyi bakina imikino itandukanye, bahagaze mu kibuga biteguye gutangira gukina. Bari kumwe n'umutoza wabo uri kubaganiriza, ku kuntu bagomba gukina uyu umukino wabo, kugirango ugende neza.

Umuhanda ukoze neza ariko utarirwa kaburimbo. Ushobora kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye: nk'imodoka, cyangwa moto, n'amagare. Uwo muhanda ukaba umeze neza, unaciye ahantu abantu batuye ari benshi, ukaba ukoreshwa n'abantu b'ingeri zose.

Umuhanda w'ibitaka uciye hagati y'ibipangu ukikijwe n'indabyo ndetse urimo amabuye unyuze ahantu hatuwe n'abantu batandukanye.

Akayira k'abagenzi kaba kari ku muhanda wa kaburimbo, uba uri gucamo ibinyabiziga byinshi, birimo nk'imodoka, amamoto aba ari gutwara abantu, ndetse n'amagare abanyonzi bakoresha bari gutwara abantu n'ibintu babajyanye mu byerekezo bitandukanye. Uyu muhanda ukaba ari wo abagenzi banyuramo kugira ngo birinde kugongana n'ibinyabiziga.

Umuhanda w'igitaka urimo amabuye ukaba werekeje mu ngo z'abantu cyangwa se aho abantu batuye, hakaba ari inzira banyuramo batashye mu rugo iwabo ukaba ukikijwe n'indabo ndetse n'ibindi bintu by'ibishyamba.